Ikibuga cyiza cane gishushanyijemo umukino wa basketiboro, kiri imbere y'inzu nziza ifite amarange asa n'umuhondo n'amabati asa n'icatsi.

Urubyiruko abahungu n'abakobwa biyemeje kwishira hamwe kugira ngo bige kudoda bakoresheje imashini idoda imyenda.

Umugabo uri gukoresha kamera urangajwe n'abaturage, abagabo benshi bari inyuma ye bari kureba uburyo ari gufatamo amashusho, kugira ngo bamenye uko abikora niba ari gufotora cangwa niba ari gufata amashusho n'amavidewo.

Abayobozi b'umutekano ,basuye ababaji aho bakoreraga ,amatabureti, ameza ,n'ibindi bikoresho bitandukanye.